Abayobozi ba leta bahagarariye abaturage, bakora inama bakicara bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye, bakareba ikibitera kandi bagashaka umuti urambye kugira ngo birusheho gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere rirambye.

Abayobozi bahagarariye abaturage, bagomba kwicara hamwe bo ubwabo, bagakora inama bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye, bakabishakira igisubizo kirambye, kandi bakiga icyageza ku iterambere rirambye abaturage babo.

Bitewe na gahunda zo guteza imbere imiyoborere myiza, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kunoza imitangire myiza ya serivise. Aho isaba abayobozi kwakira neza abaturage babagana, bakakira ibibazo byabo kandi bakabishakira igisubizo kuko niko kazi bashinzwe.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye bakabishakira igisubizo kirambye, kandi bakigira hamwe icyo bakora ngo bageze ku iterambere abaturage bayoboye.

Abayobozi bari mu nama birashoboka ko bashobora kuba bari kwiga ku kibazo cy'abaturage cyangwa se ibindi bibazo byose by'ugarije abaturage, ariko intego nyamukuru aba ari ukugira ngo abaturage barusheho kugira imibereho myiza kandi barusheho kugira iterambere rirambye.

Leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu gusigasira umuco kugira udacika aho usanga mu cyaro hagikoreshwa imbyino gakondo ubukwe ndetse n'ibindi byose izi mbyino zikaba zikunda nko gukoreshwa mu birori by'umuganura ndetse n'ibindi.

Iyi ni imwe muri sale z'inama zubatse neza kandi zigezweho, aho abayobozi bicaramo bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye bakabishakira umuti urambye kandi bakareba iterambere rirambye bageza ku baturage.

Leta y'u Rwanda buri mwaka iyiha ingengo y'imari ndetse n'imihigo izageraho, haba muri buri turere, buri murenge ndetse n'igihugu cyose, kandi umuturage nawe asabwa kugira uruhare n'ingengo y'imari ndetse no kwesa iyo mihigo.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage, bakabishakira igisubizo kirambye kandi bakarebera hamwe icyateza imbere abaturage bayoboye no kugera ku iterambere rirambye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza imbere imyigire myiza by'umwihariko mu mashuri ya kaminuza aho abanyeshuri biga bakigira ahantu heza kandi hatuje bityo bikabafasha kwiga neza ndetse no kwiteza imbere.

Mu rwego rwo kunoza imiyoborere myiza, abayobozi bagomba kwicara hamwe bagakora inama, bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye, bakarebera hamwe uko babikemura kandi bakiga icyageza ku iterambere rirambye abaturage babo.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byashyize imbere guteza imbere iby'iwabo ndetse no guhanga udushya, cyane cyane aho u Rwanda rushyira imbaraga mu gushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo ndetse no guhanga udushya mu byo bakora.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe bagakora inama bo ubwabo. Bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage, bakabishakira umuti kandi bakigira hamwe icyageza ku iterambere rirambye abaturage bayoboye.

Mu gihe habaye umunsi mukuru runaka, ni byiza ko abayobozi bahagarariye abaturage muri buri mirenge yose y'igihugu, bagomba guhuriza hamwe abaturage bakabaganiriza iby'uwo munsi mukuru, bakababwira icyo usobanuye kandi bakabashishikariza kuwizihiza no kuwushyira mu bikorwa.

RTI sosiyete ifasha mu gushyira mu bikorwa system zikorera mu gihe cyanyacyo cyane cyane system z'ubwenge n'ikoranabuhanga ry'ibinyabiziga.

Abayobozi bateraniye hamwe bakora inama biga ku kibazo runaka cyangwa se uburyo ki bakomeza gukora akazi kabo neza ku buryo bunoze, bigafasha abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Abayobozi b'abaturage hano mu rwanda bicara hamwe bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayoboye bakabishakira igisubizo kirambye kandi bakarebera hamwe icyo bakora ngo bageze ku iterambere abaturage bayoboye.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe bo ubwabo bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bakabishakira umuti ndetse n'igisubizo kirambye, kandi bakarebera hamwe icyageza ku iterambere abaturage bayoboye.

Abayobozi bahagarariye abaturage bo ubwabo bagomba kwicara bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage bayobora, bakabishakira igisubizo kirambye kandi bakarebera hamwe icyageza ku iterambere abaturage bayoboye.

Kubera gahunda ya leta y'u Rwanda yo gushishikariza urubyiruko kwihangira umurimo no guhanga udushya, hategurwa amahugurwa ahuza urubyiruko rwose rwaturutse mu mpande zose z'igihugu bakarebera hamwe icyateza imbere urubyiruko, kandi rugashishikarizwa kwihangira udushya mu byo bakora.

Inama ihuza abaturage bahagarariye abandi ni ingenzi, kuko igaragarizwamo ibibazo byugarije abaturage bikanashakirwa ibisubizo, bityo bikarushaho gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe ubwabo bagakora inama bakiga ku bibazo byugarije abaturage bayoboye, bakabishakira umuti kandi bagaharanira kugeza ku iterambere abaturage babo.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu bifite inyubako zakira inama kandi zagutse ziri ahantu heza cyane, kandi akaba ari inyubako zakira umubare w'abantu benshi batandukanye.

Iyi ni imwe muri sale z'inama, zigezweho hano mu Rwanda kandi sale nini cyane zakira abantu benshi batandukanye, akenshi na kenshi zihurirwamo n'abayobozi b'abaturage, biga kandi barebera hamwe, ibibazo byugarije abaturage babo n'ukuntu babikemura, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwimakaza umuco w'uburinganire, aho ugeze hose usanga abagore bafite amahirwe ijana ku ijana angana nka ayabagabo mu nzego zose z'igihugu ndetse n'izimiyoborere. Abagore nabo byagaragaye ko bashoboye.

Mu bijyanye na gahunda za leta ni ngombwa ko abayobozi bamwe na bamwe bahurizwa hamwe bakaganira biga ku bibazo runaka byagaragajwe n'abaturage bayobora kandi bakabishakira igisubizo kirambye kugira ngo barusheho gufasha abaturage kugira ubuzima bwiza ndetse no kugira iterambere rirambye .

Kugira ngo hirindwe hanakumirwe ibyaha ababibifite mu nshingano nk'abapolisi cyangwa se RIB bajya mu baturage bakabaganiriza, bakanabahugura ku byerekeye ibyaha ndetse n'amategeko abihana kugira ngo barusheho kubyirinda.

Mu rwego rwo kwimakaza imiyoborere myiza ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, abayobozi bagomba gukorana inama n'abaturage kugira ngo abaturage babagezeho ibibazo bafite maze babishakire igisubizo, kandi n'abaturage bagomba gutega amatwi bagakurikira abayobozi babo bakabagezaho inama z'ingenzi.

Mu rwego rwo kunoza imitangire myiza ya serivisi abayobozi bagomba kwakira neza abaturage babagana, bakabakemurira ibibazo byabo kandi bakabafasha kwirinda amakimbirane mu miryango yabo.

Mu Rwanda ni kimwe mu bihugu bimaze kumenya gukoresha ikoranabuhanga ku kigero kinini cyane aho hari abaturage bajijutse bafite kandi bazi gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo bwiza.

Medi ini Rwanda ni gahunda yashyizweho na Leta, aho iyi gahunda yaje ari igisubizo ku baturage, aho byabagoraga kubona ibicuruzwa n’aho bije bikaza bihenze bitewe n’uko byaba byaturutse hanze. Kubw’ iyo mpamvu rero, leta y’u Rwanda irashishikariza ba rwiyemezamirimo guteza imbere iby’iwabo no kwihangira imirimo.

Kubera gahunda ya leta. Leta y'u Rwanda yorohereje abaturage , aho ubungubu serivisi zose waba ushaka , ushobora kuzibona ukoresheje urubuga rw'irembo.

Mu rwego rwo kuzamura ibikorwa remezo leta y'u Rwanda yafashe ingamba zo kubaka iminara ahantu henshi hatandukanye mu gihugu, kugirango bityo byorohere abaturage kuba babona amarezo biyo itumanaho rikorwe neza uko bikwiriye.

Ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, RRA, kiramenyesha abaturage cyangwa se abasora bose ko bagomba gutanga umusoro wa bibiri na makumyabiri na kane bitarenze ku itariki mirongo itatu z'ukwa kenda bibiri na makumya na kane, uzarenza iyo tariki azatanga umusoro hiyongeyeho n'ibihano cyangwa se amande.

Kubera gahunda ya leta yo gukomeza gukwirakwiza itumanaho mu baturage ku buryo bworoshye cyane leta y'u Rwanda yubatse iminara buri hamwe hose mu gihugu ku buryo ubungubu aho waba uri hose kubona amarezo bitakigoranye.

RGB ni ikigo cya leta y'u Rwanda gishinzwe guteza imbere imiyoborere myiza, gukurikirana gahunda za leta ,imiryango itegamiye kuri leta, ibigo by'abikorera kugira ngo bifashe iterambere ry'igihugu .

Leta y'u rwanda yakemuye ikibazo cy'urujya n'uruza, aho wasangaga abantu batonze ahantu runaka bakeneye serivisi runaka; ubugubu byaroroshye aho usigaye ubona serivisi ukoresheje ikoranabuhanga, aho bakoresha za mudasobwa cyangwa se telefoni zigezweho mu gutanga serivisi zikenewe n'abaturage.

Mu rwego rwo koroshya itumanaho mu Rwanda. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura iminara, aho ahantu henshi mu gihugu hubatswe iminara, ifasha abaturage kubona amarezo, kugira ngo itumanaho ribe ku buryo bworoshye cyane.

Bitewe na gahunda ya leta yo kwagura igikorwa cy'itumanaho, yubatse iminara buri hamwe, aho mu bice byinshi by'igihugu, iyo uhageze uhasanga hari iminara miremire cyane, ituma abaturage babona amarezo ku buryo bwiza kandi buboroheye.

RDB ni ikigo gishinzwe iterambere hano mu Rwanda kandi iki kigo kikaba gifasha imishinga mito ndetse n'iciriritse kwiteza imbere. By'umwihariko gifasha urubyiruko rugitangira, kuba babaha inguzanyo kandi bagakora na bo bagamije kwiteza imbere.

Ni byiza ko ikoranabuhanga ritangira gukoreshwa mu bigo by’amashuri abanza, kugira ngo bifashe abana kuzamuka bafite ubumenyi buhagije mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga na za mudasobwa. Ibi bikaba bizafasha u Rwanda kuzamura ireme ry’uburezi, aho bizabikura ku rwego rumwe, bakabigeza ku rundi rwego mpuzamahanga.

RDB ni ikigo gishinzwe iterambere hano mu Rwanda, kandi akaba ari ikigo gishinzwe gutanga inkunga, ndetse no kureba imishinga kugira ngo ziyiteze imbere, kandi zikazamura urubyiruko kuba na bo bakwihangira imirimo bakiteza imbere.

Ikigo gishinzwe imitero n'amahoro hano mu Rwanda rura, cyoroheje ibikorwa byayo, aho ubu ngubu ushobora kwishyura imisoro ukoresheje urubuga rw' irembo, ukishyura imisoro ukoresha urubuga rw'irembo bitagusabye kwirigwa ujye gusiragira utonze imirongo.

Mu rwego rwo kunoza serivisi z'itumanaho leta y'u rwanda yubatse iminara myinshi ahantu hatandukanye kugira ngo byorohe kuba abaturage babona amarezo kandi bifashe itumanaho kuba ryagenda neza bityo rero abaturage barasabwa kuba batakorera ibikorwa hafi y'ahantu hubatse umunara kugira ngo bitazaba byakangiriza uwo munara .

Witondere abatubuzi baguhamagara bakubeshya ko bakohehereje amafaranga kuri telefone yawe bagusaba ko wayabasubiza, mbere yuko wemezamo umuba w'ibanga wawe banze utekereze kabiri kandi niba ibyo bibayeho witabaze inzego nka Ribu cyangwa Rura.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kuzamura impano, cyane cyane iz'abana bo mu cyaro zapfukiranwaga. Haba gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa ndetse n'izindi mpano zose waba ufite. Wazigaragaza kandi hariho n'agaciro k'amafaranga y'u Rwanda miliyoni, azahembwa uwitwaye neza wagaragaje impano ye.

Kubera gahunda ya leta yo kubaka ibikorwa remezo bigezweho, by'umwihariko imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza, ibi ngibi byorohereje ishoramari, aho imodoka gukura ibikoresho hamwe zibijyana ahandi byabaye ku buryo bworoshye cyane bitewe n'imihanda myiza kandi igezweho.

Mu rwego rwo korohereza abakiriya bayo, Banki y'u Rwanda yaguye ibikorwa byayo, aho ubungubu ushobora kubitsa, ukabikuza, ukishyura umuriro, ukishyura amazi ibyo byose ukabikora ukoresheje telefoni yawe kuko telefone yawe iba yarahujwe na konte yawe ya Banki.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko umuriro w'amashanyarazi, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hose mu gihugu, kuko n'iyo ugeze mu cyaro usanga na ho bafite umuriro w'amashanyarazi kandi wabafashije kwiteza imbere.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo byayo by'umwihariko umuriro w'amashanyarazi, aho yihaye ingamba zo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu hose utari mu gi gusa no mu byaro ukahagera.

Mu rwego rwo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko umuriro w'amashanyarazi leta y'u rwanda yihaye ingamba yo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice byose by'igihugu no mu cyaro ukahagera ukareka kuguma mu mujyi gusa bityo rero abaturage barasabwa kudatera ibiti birebire impande y'icyo gikorwa kugira ngo bataba bacyangiriza.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza ibikorwa remezo harimo nk'umuriro w'amashanyarazi, iminara ndetse n'ibindi, bityo rero ikaba isaba abaturage kudatera ibiti birebire ahegereye ibyo bikorwa remezo kugirango bitabyangiriza.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice byose by'igihugu. Aho ubungubu niyo ugeze mu cyaro wasanga hari umuriro w'amashanyarazi kandi wafashije abaturage kwiteza imbere no kwikura mu bukene kuko bamwe bihangiye imirimo nko kogosha, gusudira, ndetse n'ibindi byose bigezweho.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu by'Afurika byateye imbere ku muvuduko munini, aho usanga bifite ibikorwa remezo nk'imihanda myiza ya kaburimbo, umuriro w'amashanyarazi kandi rukaba rufite imijyi yubatse ku buryo bwa kijyambere bugezweho.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu byafashije abaturage hano mu Rwanda kwikura mu bukene no kwihangira imirimo, kubera ko wabafashije bamwe kwihangira imirimo harimo nko gusudira, kubaza, kogosha ndetse n'ibindi byose bigezweho bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu bifasha abantu gutera imbere. Aho ukoreshwa ibintu byinshi bitandukanye, cyane cyane nko mu nganda, mu bijyanye n'ubwubatsi, ubusudizi, ndetse n'ibindi.

Umuriro w'amashanyarazi kimwe mu bikorwa remezo bya leta, aho leta y'u Rwanda yihaye ingamba zo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice byose by'igihugu, ubugubu aho usiga ugera no mu byaro ukahasanga hari umuriro w'amashanyarazi aho ufasha abaturage kwiteza imbere, usanga nko mu cyaro byaroheje abaturage kuba bakora akazi k'ubwogoshi, ubusuderi, ububaji, ndetse n'ibindi.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu byafashije u Rwanda gutera imbere ku muvuduko munini, kubera ko ibikorwa byinshi bikenera umuriro w'amashanyarazi nk'ubusuderi ubwogoshyi ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo kwagura ibikorwa remezo leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice byose by'igihugu, aho ubungubu usigaye ugera no mu cyaro ukahasanga hari ibikorwa remezo by'amashanyarazi byafashije abaturage kugera ku iterambere kuko bibafasha nko kogosha gusudira, kubaza ndetse n'ibikorwaremezo byose bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza ibikorwaremezo mu baturage by'umwihariko umuriro w'amashanyarazi, aho no mu cyaro hagize umuriro w'amashanyarazi, bityo Leta ikaba isaba abaturage kudatera ibiti birebire impande y'umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo birinde kuba bateza ibibazo.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu byateye imbere muri Afurika ku buryo bugaragarira buri wese aho uhasanga ibikorwaremezo byinshi nk'inyubako zigezweho zigeretse, umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwaremezo byose bitandukanye wahasanga.

Feruje cyangwa se amatara yo mu muhanda, ni kimwe mu byafashije kugabanya impanuka zaberaga mu muhanda, kubera ko ayobora ibinyabiziga bimwe ko bigomba guhagarara ibindi bigakomeza, bityo byagabanyije impanuka ku muvuduko munini cyane.

Ambilanse cyangwa se imodoka bakunze kwita imbangukiragutabara. Ni imwe mu modoka ziri hano mu Rwanda, zakemuye ikibazo cy'abantu bakundaga gupfira mu ngo, cyangwa se bakarembera ku bitaro runaka. Aho zakemuye icyo kibazo, ubu aho ari imodoka, zitwara cyane cyane abarwayi, zibavana ku bitaro bimwe zibajyana ku bindi, kugira ngo bahabwe ubufasha bwihuta.

Kubera gahunda ya leta yo kunoza imiyoborere myiza, ndetse n'imibereho myiza y'abaturage; buri hantu hose hakirwa cyangwa hatangirwa serivisi, hashyizweho tw'abaturage bicaraho mu gihe bategereje guhabwa serivisi bashaka.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza ibikorwa remezo no mu cyaro, ubungubu umuriro w'amashanyarazi, imihanda ikoze neza, ntabwo bikibarizwa mu mujyi gusa, usigaye ugera no mu cyaro ukahasanga imihanda myiza kabone niyo yaba itarimo kaburimbo ariko iba itsindagiye imeze neza, kandi ikindi haba hari n'umuriro w'amashanyarazi ufasha abaturage kwiteza imbere binyuze mu mirimo myinshi nko kogosha, gusudira, ndetse n'ibindi.

Imbangukiragutabara ni kimwe mu bifasha abantu kugira ubuzima bwiza, kandi gitabarira abantu ku gihe. Imbangukiragutabara ni imodoka ikoreshwa cyane cyane n'ibitaro, aho iba itwara abagwayi barembye cyane kurusha abandi, ibavana ahantu hamwe, ibajyana ahandi, kugira ngo bahabwe ubutabazi bukenewe.

Mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda abaturage bahabwaga inkingo, kugira ngo bagire ubudahangarwa bwo guhangana na kovide cumi n'icyenda, kandi bagashishikarizwa kwambara udupfukamunwa kugira ngo birinde kuyikwirakwiza.

Komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu, ni imwe muri komisiyo ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda igira uruhare runini cyane mu gutuma abaturage bagira imibereho myiza kandi bakagira n'ubuzima bwiza mu ngo zabo.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwimakaza imiyoborere myiza ndetse na serivisi. Aho isaba abayobozi guha serivisi neza ababagana, kuko bakorera abaturage kandi bakabakemurira ibibazo byabo ku gihe.

Mu rwego rwo kurengera ubuzima no kwimakaza umuco n'imibereho myiza y'abaturage, leta y'u Rwanda yubatse ibitaro mu turere twose tw'igihugu ndetse inagerageza kugenda ibyegereza mu mirenge imwe n'imwe kugira ngo abaturage babashe gutabarwa kandi bagire ubuzima bwiza.

Ambiranse cyangwa se imbangukiragutabara, n'i imodoka zikoreshwa kwa muganga by'umwihariko mu bitaro, aho ziba zikura abarwayi hamwe zibajyana ahandi kugira ngo zitabare ubuzima bwawe, ikindi kandi izi modoka zibarirwa mu modoka ndakumirwa.

Inteko y'abaturage ni kimwe muri gahunda ya leta yashyizweho, aho abaturage bahurira hamwe bakaganira ku bibazo bafite kandi bakishakamo ibisubizo bo ubwabo, badateza amaboko kuri leta.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukaza umutekano ndetse no gukumira ibyaha ibyo ari byo byose, aho abakoze ibyaha bajyanwa mu nkiko bagacibwa imanza maze bagahabwa ibihano bibagenewe bikurikije amategeko abigenga.

Ababifite mu nshingano bose barasabwa gutanga serivisi nziza ku ababagana uko bikwiriye nk'uko amategeko y'igihugu abibasaba.

Mu rwego rwo kwimakaza umutekano ndetse no gukomeza gukumira ibyaha, leta y'u Rwanda abakoze ibyaha ibajyana mu nkiko ikabakatira kandi ikabacira urubanza bitewe n'ibyaha bakoze, maze bakabihanirwa bikurikije amategeko abigenga.

Mu rwego rwo guteza imbere imiyoborere myiza y'abaturage, abayobozi bagomba kwicara hamwe bakarebera hamwe ibibazo byugarije abaturage, bakabishakira umuti kandi bakareba uburyo icyo bageza abaturage babo ku iterambere rirambye, by'umwihariko ariko bagomba kwakira neza ababagana kuko nibo bakorera.

Aba ni abayobozi bari mu nama, bari kwiga ku kibazo runaka gishobora kuba cyugarije abaturage kandi bari gushaka n'uburyo ki bagikemura, gusa uko bigaragara barimo barakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, aho bari kwiga ku kibazo runaka ariko bifashishije porojegiteri, aho bari kuba berekana amakuru hariya ku rukuta bakiga ku kibazo banakirereba.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu by'Afurika byashyize imbere mu gukaza umutekano ndetse no gukumira ibyaha, aho abakoze ibyaha bajyanwa mu nkiko bakaburanishwa maze bagakatirwa bagahabwa ibihano bibagenewe bikurikije amategeko abigenga.

Agapfukamunwa ni kimwe mu byadufashije kwirinda gukwirakwiza kovide 19, kandi ni na ngombwa ko gakomeza gukoreshwa kuko karinda indwara z'ubuhumekero kuba zakwirakwira.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwimakaza umutekano ndetse no kwirinda ibyaha, aho abaturage bakoze ibyaha babihanirwa bikurikije amategeko abigenga, byaba ari igifungo cyangwa se ibindi bihano bahabwa.

Ifoto ni kimwe mu bigaragaza imiterere y'umuntu, kandi bamwe bavuga ko ifoto ari urwibutso rwiza rutuma nyirayo atibagiranwa, abantu benshi bakunda kwifotoza amafoto menshi cyane, bamwe babikora nko kwishimisha, abandi bakabikora no kugira basigage urwibutso rwabo, abandi bakabikora bagira ngo berekane ubwiza bwabo, amafoto afatwa ku buryo butandukanye kandi buri umwe aba bafite impamvu ze.

Mu rwego rwo gukumira inkongi y'umuriro, buri nyubako yose iriho umuriro w'amashanyarazi isabwa kuba iriho kizimyamwoto yakitabazwa mu gihe haramutse habaye inkongi y'umuriro ku buryo iyo nyubako iramutse ihiye uwo ariwe we wese yakoresha iyo kizimyamwoto mu kuzimya.

Leta y'u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi bifite umutekano uhagije, kubera ko gifite igipolisi cyinshi kiri ahantu henshi muco nyinshi z'igihugu, kandi igipolisi gishoboye cy'abanyamwuga kikaba ari igihugu cyashyize imbere gahunda yo kwimakaza umutekano kurusha ibindi.

Leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza amazi meza mu nce zose z'igihugu, aho ubu ngubu yatangiye na gahunda yo kujyana amazi meza mu byaro, kugira ngo irusheho kuzamura imibereho myiza y'abaturage bityo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu rwego rwo kwirinda inkongi ndetse no kuba haba ubutabazi bw'ibanze mu gihe inkongi ibaye, hagomba gukoreshwa za kizimyamwoto zishyirwa kuri buri nyubako yose iriho umuriro w'amashanyarazi, ku buryo zakoreshwa mu gihe habaye inkongi runaka.

Mu rwego rwo gukaza ingamba ndetse no kurwanya inkongi y'umuriro. Buri nyubako yose iriho umuriro w'amashanyarazi, igomba kuba ifite kizimyamwoto ishobora kwitabazwa mu gihe cy'inkongi, by'umwihariko nk'inganda, inzu z'ubucuruzi ndetse n'ibindi byose bikoresha umuriro w'amashanyarazi mwinshi.

Kizimyamwoto ni kimwe mu mbangukiragutabara zigomba gufasha kuzimya ahantu habaye inkongi bityo rero inyubako zose zirasabwa kuba ziyifite hafi ku buryo igihe habaye ikibazo cy'inkongi bagomba guhita bayifashisha kugira ngo bakemure icyo kibazo.

Mu gihe cy'amatora wa perezida y'igihugu cy'u Rwanda buri mukandida wese yanyuraga muri buri turere yiyamamaza, ahangaha ishyaka rya efuperi ryari rihagarariwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ari nawe waje kwegukana aya matora.

Abayobozi bakora inama baganira ku bibazo runaka kenshi na kenshi biba byatanzwe n'abaturage bayobora, kandi bashaka kureba icyabiteyewe n'uburyo ki babikemura kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni inama y'abayobozi b'u Rwanda, bari bateraniye hamwe, bari kwiga cyangwa barebera hamwe ibyarushaho gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, kandi urabona ko na madamu Jeannette Kagame, umugore wa perezida w'igihugu, na we yari yayitabiriye.

Mu gihe cyo kwiyamamariza amatora ya perezida wa repubulika mu gihugu cy'u Rwanda, buri mukandida yacaga mu baturage, akagenda yiyamamaza, avuga imigabo n'imigambi azageza ku baturage be, ariko ishyaka rya FPR Inkotanyi ryari ryatanze umukandida perezida Paul Kagame, waje kwegukana aya matora.

Kimwe mu bihugu bya Afurika bifite imiyoborere myiza, harimo by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda, kiyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, akaba ari umuyobozi wa cyo ukiyoboye imyaka irenga makumya n'itanu, kandi akaba akiyobora neza, ku buryo bugezweho kandi bw'umutekano uhagije.

U Rwanda ni kimwe mu bihugu byo ku Isi bikora amatora mu buryo bwiza cyane kandi bwizewe, aho umuturage atora umuyobozi yihitiyemo agatora uwo ashaka kandi ntawemushyizeho igitutu.

Mu Rwanda haba ishyaka bita FPR inkotanyi, akaba ari naryo shyaka ryegukanye amatora, rihagarariwe n'umukandida nyakubahwa perezida Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda, kandi iri shyaka rikaba rimaze igihe kinini riri ku butegetsi.

Mugihe cy'amatora ya repubulika ni byiza ko hakoreshwa uburyo bwa demokarasi, aho umuturage atora umuyobozi wumva umunogeye kandi yumva afite icyo azamugezaho, kandi muturage atora umuyobozi yihitiyemo.

Mu gihe cy'amatora ya repubulika, haba ari amatora ya perezida, cyangwa se amatora y'abandi bayobozi abo aribo bose. Umuturage agomba gutora ku buryo bwizewe, kandi agatora umuyobozi yihitiyemo, nta w'umushyizeho igitutu.

Uyu ni umuyobozi w'u Rwanda urimo atanga ikiganiro runaka ku ngingo ari kuganirizaho abamuteze amatwi, uko bigaragara arimo arabwira abantu benshi kandi bigaragara ko bose bamukurikiye nawe arimo ababwirare ibintu by'ingenzi cyane.

Mu gihe cy'amatora ya perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, buri mukandida wese yacaga muri buri turere agenda yiyamamaza avuga imigabo n'imigambi ye azageza ku baturage, ishyaka rya Girini pati ryari ryatanze umukandida bita Habineza Frank.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika gifite abayobozi beza kandi bashoboye, akaba ari abayobozi bafite ibiro byiza cyane bubakiwe na leta kandi bakorera ahantu hakeye hafite isuku kandi hizewe.

Leta y'u Rwanda n’imwe mu zifite inyubako nziza inyubako za sale z’inama, bigaragara ko ari inyubako nini zubatse neza ku buryo bugezweho, kandi zakira abantu benshi.

Uyu ni umuyobozi urimo utanga amakuru ayaha abanyamakuru bakorera ibigo by'itangazamakuru bitandukanye kubera ko haragaragara imikoro nyinshi zitandukanye kandi z'ibigo by'itangazamakuru bigiye bitandukanye.

Igihugu cy'u rwanda kiyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika paul kagame akaba ari igihugu gifite abayobozi benshi aho baganira bagahurira hamwe bakaganizwa na perezida wa repubulika bakarebera hamwe ibibazo abaturage bafite ndetse bakabishakira umuti urambye kugira ngo bifashe abaturage gukomeza kugira ubuzima bwiza n'iterambere rirambye.

Mu gihe cyo kwiyamamariza amatora hano mu Rwanda buri mukandida yanyuraga mu turere twose tw'igihugu agenda yiyamamaza afite n'abandi bari mu ishyaka rye bamwamamaza, avuga imigabo n'imigambi ye azageza ku baturage ngo arebe ko yazabona amajwi.

Mu gihe cyo kwiyamamariza amatora ya perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda, buri mukandida wese yacaga muri buri turere twose tw'igihugu agenda yiyamamaza avuga imigabo n'imigambi ye kugira ngo abaturage bazamutore.

Kwiyamamaza ni igice cya mbere kibanziriza amatora, aho umukandida w'ishyaka runaka aca mu baturage akivuga avuga imigabo n'imigambi ye azabagezaho kugirango bazamutore.

Mu gihe cy'amatora ya Perezida wa Repubulika hano mu Rwanda, buri muntu wese, aba agomba gutora umuyobozi ashaka kandi yihitiyemo, ntawumuhatirije. Kuko umutora, ajya mu cyumba cy'itora wenyine yiherereye, agatora umuyobozi ashaka kandi yihitiyemo.

Abayobozi b'abaturage bagomba kwicara hamwe bakaganirira hamwe ibibazo babona byugarije abaturage bayobora bakabishakira umuti urambye, kandi bakarebera hamwe icyo bakora kugira ngo abaturage barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'iterambere rirambye.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko harimo n'imihanda ya kaburimbo ikoze neza, ibi ngibi byoroheje ishoramari aho ibinyabiziga bisigaye bitwara ibicuruzwa bimwe bibikura mu cyaro bi'ibizana mu mujyi ku buryo bworoshye cyane.

Kubera gahunda Leta yo kwagura ibikorwa remezo, harimo n'imihanda ikoze neza kandi irimo kaburimbo. Ibi byoroheje ishoramari, kubera ko imodoka zisigaye zitwara ibicuruzwa bimwe, zibivana ahantu hamwe zibijyana ahandi, ku buryo bworoshye cyane.

Bitewe na gahunda y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda ikoze neza kandi ya kaburimbo, ibi byorohereje urujya n'uruza kandi bizamura ishoramari ku rwego rwo hejuru kubera ko imodoka zitwara ibintu cyangwa ibicuruzwa zikura ahantu hamwe zibijyana ahandi ku buryo bworoshye.

Arabiye ni ikigo gishinzwe amakuru hano mu Rwanda. Aho gifite televiziyo ya arabiye icaho amakuru ndetse n'ibindi byose byabaye mu gihugu, kikagira na radiyo Rwanda, icaho amakuru y'ibyabaye mu gihugu ndetse no ku isi hose.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo cyane cyane imihanda ikoze neza ya kaburimbo, ibi byafashije abashoramari kuba bashyira imodoka mu muhanda zitwara abantu zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, bikaba byaroroheje urujya n'uruza rwari ikibazo hano mu Rwanda.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwaremezo, harimo n'imihanda myiza ya kaburimbo ikoze neza, iyi mihanda yoroheje ishoramari ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, aho ubu ngubu haba ibicuruzwa cyangwa se abandi bantu, bava mu cyaro bajya mu mujyi cyangwa bava mu mujyi bajya mu byaro, byabaye ku buryo bworoshye cyane.

Bitewe na gahunda za leta zo kwagura ibikorwa remezo cyane cyane nk'imihanda ya kaburimbo. Ibi byorohereje ishoramari aho ubungubu imodoka gukura ibicuruzwa mu cyaro zibizana mu mujyi byabaye ku buryo bworoshye cyane.

Mu rwego rwo kugira umujyi usukuye kandi ucye, leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushishikariza abaturage kutajugunya ibintu byose wabonye mu muhanda, kandi igasaba n'abashoferi batwaye abagenzi kubabuza kujugunya ibyo babonye byose mu muhanda.

Bitewe na gahunda y'u Rwanda yo kwagura ibikorwaremezo by'umwihariko imihanda ikoze neza kandi irimo kaburimbo, ibi byorohereje ubucuruzi kubera ko imodoka zisigaye zikura ibicuruzwa mu cyaro zibizana mu mujyi, ku buryo bworoshye cyane.

kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko kubaka imihanda ya kaburimbo kandi imeze neza, ibingibi byafashije abantu kwihangira imirimo aho bamwe bashatse amaperime bamwe bakajya gutwara imodoka abandi bakajya mu kimotari bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo harimo n'imihanda myiza ya kaburimbo, ibi byoroheje ishoramari binafasha u Rwanda gutera imbere, kubera ko ibinyabiziga bisigaye bikoresha umuhanda ku buryo bwiza bubyoroheye, kandi kuri iyo mihanda hubatswe inyubako z'ubucuruzi aho zafashije abaturage kwikura mu bukene no kwihangira imirimo.

Imodoka nI imwe mu bigize tekinoloji byakemuye cyangwa byafashije abantu kuva bajya ahantu bagera aho bagera bitabagoye kandi mu myaka yo hambere ibi ntibyashobokaga.

Leta y'u Rwanda, yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo, by'umwihariko imihanda imeze neza kandi irimo kaburimbo. Ibi byoroheje ubucuruzi n'ishoramari kubera ko imodoka zivana ibicuruzwa ku ruganda zibigeza ku masoko, ku buryo bworoshye cyane.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda ya kaburimbo ibi ngibi byafashije abantu kwiteza imbere no kwihangira imirimo kubera ko bamwe bashatse perimi bamwe bajya kuba abashoferi batwara imodoka abandi bajya kuba abamotari batwara moto.

Imodoka ya toyota, ni imwe mu modoka zikomeye kandi zikunzwe hano mu Rwanda, imodoka bivugwa ko zihenda cyane kandi akaba ari imodoka ziramba. Ni imodoka zageze mu Rwanda mu myaka yo hambere, aho ubu ngubu kimwe cya kabiri cy'imodoka ziganje mu Rwanda zigizwe n'ubwoko bw'imodoka ya toyota.

Imihanda ikoze neza ya kaburimbo, ni kimwe mu byafashije urubyiruko kwihangira imirimo kuko bamwe bagerageje kuba bashaka amagare, bakajya batwara imizigo y'abantu, bayikura ahantu hamwe bayijyana ahandi, bityo rero n'urundi rubyiruko rwose rurasabwa kwihangira imirimo, bagakura amaboko mu mifuka.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwaremezo no kubaka imihanda myiza ya kaburimbo igezweho, ibi ngibi byoroheje ishoramari ndetse binakomeza gukwirakwiza itumanaho ndetse n'ingendo hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko imodoka gukura ibicuruzwa ku ruganda zibigeza ku masoko, biba ku buryo bworoshye cyane kandi n'abantu gutega bava ahantu hamwe bajya ahandi byaroroshye.

Bitewe na gahunda ya leta yo kubaka imihanda ndetse igezweho kandi ya kaburimbo, ibi ngibi byoroheje ubucuruzi ndetse n'ishoramari hano mu Rwanda kubera ko ibinyabiziga biva ahantu hamwe bijya ahandi bitwaye ibicuruzwa n'ibindi bikoresho ku buryo bworoshye.

Bitewe na gahunda y'igihugu cy'u Rwanda cyo guteza imbere imiyoborere myiza ndetse n'ibikorwaremezo by'umwihariko imihanda ikoze neza, ibi ngibi byorohereje urujya n'uruza haba ku binyabiziga ndetse n'abantu, aho kuva ahantu hamwe ujya ahandi bitakigoranye bitewe n'uko hari imihanda myiza.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo cyane cyane imihanda, aho ibinyabiziga nk'imodoka ndetse n'ibindi bisigaye bikoresha imihanda k'uburyo bwiza cyane kuko iyo mihanda ni minini kandi iragutse, kunyurana kw'ibi binyabiziga ntibikiri ingorabahizi kubera ko leta yubatse imihanda igezweho kandi minini.

Kubera ibikorwa remezo bigezweho, cyane cyane nk'imihanda ikoze neza ya kaburimbo. Ibi byorohereje ingendo z'imodoka ndetse n'ibindi byose, aho imodoka gukura ibikoresho hamwe ibijyana ahandi bitakigoranye, bitewe n'uko u Rwanda rwubatse imihanda myiza kandi ya kijyambere.

Kubera gahunda ya Leta yo kwagura ibikorwa remezo, by'umwihariko imihanda irimo kaburimbo kandi ikoze neza, ibi ngibi byoroheje ishoramari mu Rwanda ndetse binafasha ubucuruzi gutera imbere ku rwego rwo hejuru, kubera ko ibicuruzwa kubivana ku ruganda bigera ku baturage no ku bakiriya, bitwarwa n'imodoka ku buryo bworoshye cyane.

Bitewe na gahunda y'u Rwanda rwashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda ya kaburimbo, yubatse neza kandi iri ku ruhando mpuzamahanga. Ibi byatumye abashoramari bazana imodoka mu gihugu cy'u Rwanda zitwara abagenzi zibavana ahantu hamwe zibajyana ahandi, bitewe n'uko hari imihanda myiza.

Bitewe na gahunda y'u Rwanda yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza, ibi ngibi byorohereje ishoramari, aho imodoka zitwara ibintu bimwe zibivana hamwe zibijyana ahandi kandi ibi ngibi byafashije ingendo, aho ubu ngubu bitakigoranye kuba moto cyangwa izindi modoka zitwara abagenzi zakoresha umuhanda.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukwirakwiza ibikorwaremezo by'umwihariko kubaka imihanda myiza ya kaburimbo kandi igezweho, ibi ngibi byoroheje ishoramari ndetse binoroshya urujya n'uruza rw'abantu, kubera ko imodoka zitwara ibikoresho zibikuye ku ruganda zibigeza aho bikoresherezwa, mu buryo bworoshye cyane kandi byanafashije abantu kwihangira imirimo bamwe batwara abantu kuri moto, abandi bagatwara abantu n'ibintu ku magare.

Hano mu Rwanda iyo ugeze mu muhanda, usanga imizigo itwarwa ku buryo butandukanye aho usanga imwe itwarwa n'amamodoka indi ugasanga ipakiye ku ma moto, indi ugasanga abantu bayitwaye ku mitwe yabo bakoresheje imbaraga zabo.

Kubera gahunda ya leta yo kwagura ibikorwaremezo mu gihugu by'umwihariko kubaka imihanda myiza ya kaburimbo kandi igezweho, ibi byorohereje urujya n'uruza kandi byoroshya ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko imodoka gutwara ibintu zibivana ku ruganda zibigeza ku masoko, byabaye ku buryo bworoshye cyane kandi n'abagenzi bakaba bava ahantu hamwe bajya ahandi bitabagoye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza ibikorwa remezo mu mujyi kandi irashishikariza abaturage kugira isuku kugira ngo tugire umujyi mwiza urangwa n'isuku, aho ibuza abaturage kujugunya ibintu aho ariho hose kandi ikaba yarashyizeho za puberi nyinshi ku muhanda, aho abaturage basabwa kujugunyamo ibyo bamaze gukoresha.

Kubera gahunda leta yo guteza imbere ibikorwa remezo. By'umwihariko, imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza. Leta y'u Rwanda yubatse n'utuzu ku nkengero z'umuhanda, abagenzi bashobora kwicaramo mu gihe bategereje imodoka.

Mu rwego rwo kwimakaza imitangire myiza ya serivisi leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guhugura abayobozi ndetse n'abandi bategetsi bose kugira ngo barusheho gutanga imitangire myiza ya serivisi aho bashyizeho dutebe buri hamwe abaturage bashaka serivisi baba bicayeho mu gihe bategereje kuzihabwa.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo by'imyidagaduro cyane cyane ibibuga bya futubolo bya basiketibolo bya handibolo ndetse n'indi mikino yose cyane cyane muri Arena niho hubatswe ibibuga byinshi bitandukanye bifasha abantu kandi bikakira imikino myinshi itandukanye.

Iki cyapa ni icyapa gikoreshwa mu muhanda kikaba kigaragaza umuvuduko ntarengwa, gisobanura ko abayobozi b'ibinyabiziga bagomba kugendera mu muvuduko wa kirometero mirongo itandatu mu isaha.

Iki cyapa ni kimwe mu bigize ibyapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa kikaba ari icyapa kibuza ibinyabiziga byose ko nta kinyabiziga cyemerewe guparika ahantu hose hagaragara kino cyapa.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda iki cyapa gisobanuye ko imbere hari ikoni iburyo, bityo abatwara ibinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo bitegure gukata iryo koni badateje impanuka.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda. Iki cyapa gisobanura ko aho hantu hari akayira k'abana, bishoboke ko hashobora kuba hari akayira k'abana bava ku mashuri. Bityo abatwaye ibinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo birinde kuba bagira uwo bagonga.

Iki cyapa n'icyapa gikoreshwa mu muhanda kikaba ari icyapa cyerekana ko hari akayira k'abanyamaguru bityo bikaba bimenyesha abatwaye ibinyabiziga ko bagomba kugabanya umuvuduko bakanahagararaho biri ngombwa kugira abanyamaguru babanze batambuke.

Amatara yo mu muhanda ni kimwe mu bintu byagabanyije impanuka hano mu muhanda kubera ko abarwa nk'abayobozi b'ibinyabiziga; kuko bitewe n'amabara runaka, haba hari ibara rishinzwe kwaka imodoka zigahagarara abagenzi bagatambuka; irindi bara rikaka abagenzi bagahagarara imodoka zigatambuka.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gisobanura ko umuyobozi w'ikinyabiziga akikibona agomba kugabanya umuvuduko cyangwa se agahagarara kugira ataba yateza impanuka.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa kikaba cyerekana ko ari akayira k'abanyamaguru bityo rero abayobozi b'ibinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko bakanitegura guhagarara kugira ngo abanyamaguru babanze batambuke.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, akaba ari icyapa kiri mu ishusho ya "t" kikaba kimenyesha abatwara ibinyabiziga ko umuhanda bari kujyamo imbere hari undi muhanda ushamikiyeho, bityo bagomba kwitwararika bakurikije amategeko agenga umuhanda.

Iki cyapa ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gisobanura ko abatwaye ibinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko bakagenda gake bitonze kubera ko bashobora kuba bari ahantu hashobora kubateza ibyago.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa ni icyapa kimenyesha ko imbere hari ifungana ry'umuhanda mu gisate cy'umuhanda cy'ibumoso, bityo kikaba kiburira abatwaye ibinyabiziga kwitwararika no kugabanya umuvuduko kubera ko bagiye kugera mu muhanda ufunganye.

Iki kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gikunda kujya muri ropuwe ahantu hahurirwa n'imihanda myinshi kikaba kiburira abatwaye ibinyabiziga ko hari umuhanda banyuramo bazengurutse.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa kiraburira abayobozi b'ibinyabiziga ko hari akayira k'abanyamaguru bityo bagomba kugabanya umuvuduko bagatangira no kwitegura guhagarara kugira abanyamaguru bambuke.

Iki cyapa n'icyapa cy'umuhanda, kiburira abatwara ibinyabiziga ko imbere hari ikorosi ibumoso, kikaba kimenyesha abatwaraye ibinyabiziga ko bagomba kwitegura, bakagabanya umuvuduko kugirango babe bitegura kuba bakata, bitabateje impanuka.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda. Gisobanura ko umuyobozi w'ikinyabiziga, agomba kureka abari mu muhanda munini bagatambuka cyangwa abandi babifitiye uburenganzira bwo kugenda mbere ye.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gisobanuye ko hari akayira k'abanyamaguru bityo abatwaye ibinyabiziga bagomba kugabanya umuvuduko byaba ngombwa bakanahagarara kugira abanyamaguru babanze batambuke.

Iki ni kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gisobanura ko abayobozi b'ibinyabiziga nta n'umwe wemerewe guparika munsi y'iki cyapa, iki cyapa gishyirwa ahantu hatemerewe kuba haparikwa ibinyabiziga.

Akarere ka Gasabo, ni kamwe mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari kamwe mu turere tw'u Rwanda duherereye mu mujyi wa Kigali kandi twubatse neza ku buryo bugezweho, bugaragarira buri wese.

Iyi ni imwe mu nyubako z'ubucuruzi zigezweho, akaba ari inyubako iherereye ku muhanda kandi akaba ari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwinshi butandukanye, aho hari ahacururizwa imyambaro iyo ari yo yose, na supamaketi ushobora gusangamo ibiribwa byose ukeneye.

Mu rwego rwo gukomeza kugira umujyi usukuye kandi uteye imbere, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ijyanye n'ubwubatsi mu mujyi aho uhasanga ahantu runaka hari igishushanyo mbonera cy'inyubako runaka kigomba kuhubakwa urabona ko mwahangaha hari igishushanyobonera kigaragaza ko hagomba kubakwa inyubako ndende.

Mu rwego rwo guteza imbere imiturire, leta y'Urwanda yashyize imbaraga mu kubaka imijyi mito iciriritse, ariko nayo isa neza, aho ubu ngubu mu bijyanye n'ubwubatsi bagusaba kubanza gushaka icyangombwa kikwemerera kubaka, kandi bakabanza bakagenzura neza ko inyubako igiye kubaka aho hantu yemewe.

Iri ni rimwe mu maduka ya hano mu Rwanda acuruza imyambaro akoresheje ibibumbano by'abantu bambika iyo myenda kugira ngo umuntu nabona bayambaye abone ko igaragara neza, ibi bibumbano biba bigaragara nk'abantu neza kandi bikambara iyo myenda ukabona biraberewe bityo bikarushaho gukurura abakiriya.

Ikimenyetso gisobanura aho imihanda ihurira, Ihurira ibumoso kikaba mw' ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru, kiba kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga k' ibumoso bwiwe hashobora guturuka ikinyabiziga...

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu by'Afurika byateye imbere ku muvuduko munini biri ku ruhando mpuzamahanga, kubera ko iyo uhageze uhasanga inyubako z'amagorofa zubatse neza kandi zigezweho bigaragarira buri wese ko ari inyubako ziri ku ruhando mpuzamahanga.

Iyi ni imwe mu nyubako ziherereye mu mujyi wa Kigali zicuruza amakaro n'ibikoresho by'ubwubatsi byose. Bikaba bigaragara ko ari inyubako yubatse ku buryo bugezweho, kandi ari inyubako ya kijyambere.

Imijyi imwe n'imwe yo mu Rwanda imaze gutera imbere, aho imwe muri yo ugeramo ukahasanga inyubako z'imitirirwa. Inyubako nziza cyane aho zaba ziryoheye amaso kuzitegereza, ibi bikugaragariza ko u Rwanda rurimo gutera imbere ku muvuduko munini cyane.

Bitewe na gahunda ya leta yo kwagura ibikorwa remezo by'umwihariko nko kubaka imihanda ya kaburimbo kandi igezweho, ibi byatumye abantu bamwe bishakira imirimo bikura mu bukene. Kuko bamwe bashatse amaperimi bajya gutwara ibinyabiziga, abandi nabo biga gukanika bakajya bakanika ibyobinyabiziga byabo mu gihe byapfuye.

Iyi ni inyubako iri muri zimwe zikunzwe cyane cyane hano mu Rwanda aho mu bice byose by'igihugu iyo uhageze uhasanga inyubako nk'izi kandi akaba ari inyubako zigaragara ko ari inyubako zigezweho zibereye amaso izo bamwe bakunze kwita ngo uducurama .

Leta y'u Rwanda yatangiye sisitemu yo guteza imbere ibyaro, ubu aho usigaye ugera mu cyaro ukahasanga hari umuriro w'amashanyarazi, hari umuhanda utsindagiye. Kabone n'iyo haba hatarimo kaburimbo, ariko aba ari umuhanda ukoze neza kandi utsindagiye ku buryo byorohera abawukoresha.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga, mu guteza imbere umujyi, no kugira umujyi usukuye, aho usanga hari inyubako zubatse ku buryo bwiza kandi bugezweho, bigaragarira buri wese ko ziri ku ruhando mpuzamahanga.

Si ku mihanda ya kaburimbo gusa haba inyubako nziza, no ku mihanda y'igitaka hari aho uhasanga inyubako nziza kandi zishimishije za kijyambere aho wasanga inyubako zigeretse rimwe kabiri cyangwa gatatu no mu byaro hatangiye gutera imbere ku buryo bugaragarira buri wese.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu by'Afurika byateye imbere ku muvuduko munini cyane kandi uri ku ruhando mpuzamahanga, aho uhasanga inyubako z'amagorofa, iz'amayetaje zigeretse kandi zubatse neza kandi ziri ku ruhando mpuzamahanga.

Leta y'u rwanda irasaba abaturage bose bafite amazu ashaje, ko bagomba kubaka amashya cyangwa ayo ngayo agasanwa, ku buryo yakiririnda kuba yateza impanuka mu gihe runaka, kandi ikaba inasaba abayobozi bose b'inzego z'ibanze gukurikirana icyo gikorwa.

Bitewe na gahunda ya leta yo guteza imbere ibikorwaremezo by'umwihariko imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza, ibingibi byashishikarije ishoramari ndetse binazamura ubucuruzi hano mu Rwanda, aho ubu ngubu imodoka kuba zatwara ibicuruzwa zibivana ahantu hamwe zibijyana ahandi atakiri ibintu bigoranye.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza imbere ibikorwa remezo cyane cyane nk'imihanda, aho ugera mujyi u ukahasanga hari imihanda myiza cyane ikoze neza kandi bigaragara ko iyo mihanda ari imihanda iri ku rwego mpuzamahanga, aho uyisangamo kaburimbo ndetse n'ibindi byose bikenewe kugira umuhanda ube umeze neza.

Amatarara yo mu muhanda kimwe mu bimenyetso bikoreshwa mu muhanda kugira ngo biyobore ibinyabiziga bityo hari amatara yaka abayobozi b'ibinyabiziga bakamenya ko bagomba guhaguruka bakagenda hari n'andi yaka bityo bikamenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko bagomba guhaguruka ibyo hirya bigatambuka.

Mu gihugu cy'u Rwanda ibikorwa remezo byateye imbere cyane cyane imihanda, aho wasanga hari imihanda inyuze hejuru y'iyindi cyane cyane mu mujyi wa Kigali niho hagaragara imihanda iciye munsi y'iyindi cyangwa ibiraro bikoze neza biri ku rwego mpuzamahanga.

Amatara yo mu muhanda ni kimwe mu bigabanya impanuka zibera mu muhanda, kuko amatara yo mu muhanda ni kimwe mu bayobozi bayobora ibinyabiziga, kuko cyerekana ibinyabiziga bimwe ko bigomba guhagarara ibindi bigakomeza kandi kikamenyasha ibinyabiziga ko bigomba guhagarara abanyamaguru bagatambuka.

Abagore bahagaze mu isoko ryaremye ry'imbuto, imboga, inyanya harimo abagurisha, abagura bahagaze mu muhanda w'igitaka.

leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kubaka ibikorwa remezo bigezweho cyane cyane imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza, aho ubu ngubu mu bice byose by'igihugu wahasanga imihanda ya kaburimbo ikoze neza kandi bigaragara ko iri ku ruhando mpuzamahanga.

Leta y'u Rwanda, yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwaremezo byayo cyane cyane imihanda, aho mu bice byose by'igihugu, uhasanga umuhanda wa kaburimbo, ukoze neza kandi bigaragara ko woroheje ishoramari.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwagura ibikorwa remezo cyane cyane imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza, aho ibi ngibi byoroheje urujya n'uruza ndetse n'ishoramari hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko haba ibicuruzwa cyangwa abantu kuva ahantu hamwe bajya ahandi biroroha bitewe n'uko hari imihanda myiza.

Imihanda ikoze neza ya kaburimbo, ni kimwe mu bikorwa remezo byafashije u Rwanda gutera imbere ku muvuduko munini ugereranije n'ibindi bihugu mpuzamahanga aho byoroheje ingendo z'abantu n'ibintu muri iki gihugu cy'u Rwanda.

Mu rwego rwo kunoza umutekano wo mu muhanda, leta y'u Rwanda yashyizeho udutebe tw'abanyamaguru duherereye ku nkengero z'umuhanda. Abanyamaguru barasabwa kudukoresha neza kandi bakajya birinda kuhata ibyo aribyo byose, kugira ngo birinde kuba haza umwanda.

Igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu bya Afurika byateye imbere ku ruhando mpuzamahanga, kubera ko mu mujyi ndetse n'ahandi hose hari imihanda myiza ya kaburimbo kandi ikoze neza, wahasanga amatara yo ku muhanda ku buryo no ku mugoroba umuhanda uba ugaragara neza ku buryo butateza ibyago.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guteza imbere ibikorwaremezo by'umwihariko imihanda ya kaburimbo kandi ikoze neza iri ku ruhando mpuzamahanga, ibi ngibi byanagize uruhare mu ishoramari hano mu Rwanda, kubera ko imodoka kuba zakura ibicuruzwa ku ruganda zibigeza ku bakiriya no ku masoko ari ku buryo bworoshye cyane.

Iki cyapa, kimwe mu byapa bikoreshwa mu muhanda, iki cyapa gisobanuye ko nta modoka n'imwe yemerewe guparika ahantu hari iki cyacyapa, bityo abayobozi bose b'ibinyabiziga barasabwa kudaparika ahantu hari iki icyapa kuko bibujijwe.